Abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, bambaye amakoti meza, imipira myiza, ibitenge byiza ndetse n'inkweto nziza.

Ahantu hahuriye abantu batandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'umukara, aba bantu kandi biragaragara ko baje kwiga ku bibazo bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino bambaye amakoti, amashati ndetse n'indi myambaro. Bari mu nama yabahurije hamwe uko baturutse hirya no hino.

Umwana uri kuvoma amazi kuri kandakira ukarabe. Iki ni igikoresho cyifashishwa, barimo gukaraba intoki n'amazi n'isabune. Uyu mwana yambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umukara.

Abana babiri bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi yo kunywa, bari gukoresha intoki kugira ngo banywe amazi meza atemba ku iriba.

Abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, hateye ibiti hirya y'iriba byinshi cyane, barimo baravomera mu ndobo zifite ibara ry'umuhondo.

Inshinge zifashishwa bazitera abantu kugira ngo babakinyingire indwara zigiye zitandukanye, muri izi nshinge bakunda kuzikoresha kugira ngo abantu bafite indwara babone inkingo.

Kwa muganga hari umugore uriyo waje kuvuza umwana, hari n'umuganga uri kugenda abitaho kandi abaha imiti.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'indorerwamo z'amaso, barimo baratanga imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umugore uri guterwa urushinge n'umuganga, uyu mugore biragaragara ko atinya urushinge, yashinyirije bigaragaza ko afite ikibazo.

Umuntu uteze amaboko ku iriba, ari gukaraba amazi ndetse n'isabune, biragaragara ko ari gukorera isuku umubiri we ndetse yirinda n'indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru n'umukara, aba bantu kandi ni abazungu harimo n'abirabura, ibikorwa byabahurije aha ngaha barataha babikemuye.

Umugabo uri kumwe n'umugore, imbere yabo hateretse ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni abantu ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umwana uri kuvoma amazi mu kizenga kinini agiye kuyakoresha, aya mazi iyo uyakoresheje ushobora kurwara indwara zitandukanye kubera ko adasukuye.

Abajyanama b'ubuzima bari mu nyubako yateraniyemo abantu benshi, ni bo bafasha abarwayi kubagira inama ndetse bakabaha imiti igiye itandukanye.

Abantu baturutse hirya no hino bahuriye ku iriba. Hari umugore urimo kuhagira umwana, bigaragara ko amazi yari yarabuze maze araboneka, bose bahise baza kuvoma.

Kwa muganga hateraniye abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bakora mu nzego z'ubuvuzi, barimo barifotoza.

Abana bahuriye ku iriba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, bateze ibiganza ku iriba bakeneye amazi yo kunywa.

Umwana uri ku iriba arimo kuvoma amazi ndetse aranakaraba akoresheje amazi n'isabune, uyu mwana ni umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, biragaragara ko agira isuku.

Abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'ubururu ni abagore bahuriye mu nyubako bigaragara ko bishimye.

Kwa muganga hariyo umusaza uri guhabwa ubufasha, uyu musaza yambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara, hirya ye hari abandi barwayi.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse hirya no hino mu gihugu, baje mu nama, iyi nama yabahurije hamwe ni ukugira ngo bige ku bibazo bigiye bitandukanye, biri mu muryango nyarwanda.

Abantu baturutse hirya no hino bari kuvoma amazi ku iriba, bafite amajerekani menshi, ni abagore babiri ubona ko bategereje amazi ko yuzura mu majerekani yabo.

Umugore ufite ijerekani arimo kuvoma amazi, uyu mugore kandi ari kumwe n'umugabo umuri iruhande nawe waje kuvoma amazi.

Abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, aba bana bambaye imyenda myiza irimo amabara y'umukara, icyatsi, umweru ndetse barishimye.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa n'abaganga bari kuvura abarwayi. Ibikoresho babibaryamishaho maze bakabasha kumera neza.

Muri iyi nyubako harimo abantu bahahuriye benshi cyane, bahahurijwe n'ibikorwa bitandukanye, baje mu nama kugira ngo bakemure ibibazo biri muri sosiyete byazengereje abaturage.

Umugore uri guterura imifuka, ateruranye n'undi, hejuru hari umugabo uri kubakira bakabimuhereza maze akabipanga neza, bityo bikajya ku murongo.

Umukobwa urimo kuvoma amazi ku iriba, yateretse ijerekani mu ibase, aricaye ategereje ko amazi agwira maze agataha.

Umwana urimo guseka, ari kuvoma amazi akoresheje intoki, kugira ngo abone ayo kunywa. Uyu mwana afite imyaka hagati y'icumi, na cumi n'itanu.

Abantu bateraniye mu nyubako nini, bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi. Imbere yabo hateretse amacupa y'amazi kandi barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, bambaye ingofero z'imyeru n'imipira y'ubururu, barishimye kandi baranezerewe.

Umwana uri ku iriba arimo kuvoma amazi kugira ngo abone ayo kunywa, yambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, uyu mwana kandi azi akamaro ko kunywa amazi kuko bifashe.

Abantu bahuriye mu nyubako bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umutuku, aba bantu ni urubyiruko ndetse n'abantu bakuru bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bijye bitandukanye.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ubururu, ni mu nyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Kwa muganga hari umubyeyi uteruye umwana ndetse muganga ari kumwitaho, uyu mwana biragaragara ko arembye akeneye ubuvuzi bw'ibanze kandi vuba.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino, bambaye amataburiya y'umweru, aba bantu ni benshi cyane nkuko bigaragara, bambaye imyenda myiza kandi ikeye.

Umugore uri kwita ku mwana arimo kumuvura, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bigiye bitandukanye.

Umukobwa urikuvoma amazi amanuka mu mugenda, aya mazi ntabwo aba ari meza. Iruhande rwe hicaye akana kambaye inkweto z'icyatsi.

Abakobwa bicaye mu ishuri bambaye imyenda y'icyatsi, umweru ndetse n'uducupa duteretse ku meza ahantu bicaye.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hariyo abaganga ndetse n'umwana urwaye baryamishije ku gitanda, umubyeyi we ari kumureba yumiwe kuko yabuze icyo akora.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi, barimo kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umweru.

Umugabo uri kumwe n'umwana arimo aramuvura, uyu mugabo ni umuganga wabiherewe dipolome, kandi yigishirijwe muri kaminuza y'u Rwanda.

Inzu yahuriyemo abantu baturutse mu bice hirya no hino, bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'amashati y'umweru. Aba bantu bose imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse na za terefone, biragaragara ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye ahantu mu gace kamwe; aba bantu kandi, urabona ko, bari gukora, ibikorwa bibashusurutsa, kandi bakishima.

Umwana uhagaze ku ivomero ry'amazi, hari ikidendezi kinini bakuramo amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, hirya ye hari abandi bana bahahagaze.

Abantu bahuriye kwa muganga baje kwivuza indwara zitandukanye, muganga ari kuvura akana gato, ndetse agakora mu maso ngo yumve ko gafite umuriro.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye irimo utuzu tubiri dukorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umugore n'umugabo, ari kubereka ishusho y'abantu baboneje urubyaro, ni ukugira ngo na bo bazabyare kandi baboneze urubyaro.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bajanye amajerekani bateretse ku iriba, aba bantu kandi biragaragara ko ari abanyeshuri kandi bitonda.

Ahantu hari abantu bambaye imyenda y'ubururu, umweru, umukara, barimo kwifotoza kandi barishimye cyane.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba, yambaye umupira w'ubururu ndetse n'umukara, afite imisatsi myinshi, bigaragara ko yari ananiwe, akeneye kujya kuruhuka.

Umwana uri kuvoma amazi kuri robine, bigaragara ko ashaka amazi yo kunywa, iyo umuntu anyweye amazi bituma agira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze bikamufasha kubaho neza.

Iyo abantu bahuriye hamwe, barishima bakaganira, bakungurana ibitekerezo, ejo bundi nari ndi kumwe n'abantu turimo kuganira tugenda twungurana inama.

Abantu barimo kwifotoza bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'imikara, barimo barafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bibukiraho.

Abantu bahuriye ku iriba, baturutse mu bice bigiye bitandukanye, higanjemo abana, abagore ndetse n'abasore, biragaragara ko amazi yabaye ibura.

Abana bari ku iriba bari kuvoma amazi bakoresheje intoki. Ni abana batatu ubona ko bafite imyaka hejuru y'itanu ndetse kugeza ku icumi.

Abana baturutse hirya no hino baje kuvoma amazi ku iriba, aba bana bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku ndetse n'ubururu, biragaragara ko bakeneye amazi yo gukoresha.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'Isi, bambaye amakoti meza, amashati ndetse imbere yabo hateretse amazi yo kunywa.

Abantu bahuriye ahantu, barimo gufasha abana, aba bana bari mu kigero cy'imyaka itanu kuzamura kugera mu icumi.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abagabo n'abagore, aba bantu bose barimo baraseka, barishimye kandi bari kuganira ku nsanganyamatsiko yabateranyirije hamwe.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu barimo gukoma amashyi, aba bantu kandi ni abajyanama b'ubuzima ndetse biragaragara ko bishimye.

Umwana urimo kuvoma amazi ku iriba, uyu mwana yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara biragaragara ko yishimye kandi akeneye amazi yo gukoresha.

Umuganga uri kwita ku barwayi abapima indwara zigiye zitandukanye. Uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse ateze igitambaro mu mutwe.

Umugabo wicaye ku ijerekani yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, uyu mugabo arimo aravoma amazi kuko ayakeneye, kandi arimo araseka arishimye.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, ni abantu biganjemo abana ndetse n'abantu bakuru, bafite amajerekani barimo kuvoma bishimye.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku ufite imisatsi y'umukara, uyu mukobwa biragaragara ko yishimye kandi anezerewe, kandi ni mwiza cyane kuko aritonda.

Umugabo ukoreye umwana ijerekani yanditseho Unicef, ni ikigo gishinzwe gufasha abana bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ari kumwe n'umugore, uyu muganga kandi arishimye kandi aranezerewe bityo agatuma abaho neza.

Umwana uri guterwa urushinge n'umuganga wabyize, uyu muganga yabiherewe impamyabumenyi kandi azi icyo gukora, ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu hateretse amajerekani y'umweru n'umuhondo, hari umukobwa uhahagaze wambaye imyenda myiza kandi isa neza bigaragara.

Abantu bari gukaraba amazi mu ibase, barimo baraseka. Aba ngaba ni abana batoya, bigaragara ko bari kwigishwa isuku bakiri bato.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko bambaye imyenda igiye itandukanye, iyo baje mu isoko bahagurira ibicuruzwa byinshi kandi bakeneye bityo bikabafasha kubona ibyo batari bafite.

Umugabo wambaye ikositimu, ahagaze imbere y'abantu arabagezaho imbwirwaruhame, uyu muntu kandi ni umuyobozi nkuko bigaragara, arimo arababwira imigabo n'imigambi.

Umwana uri ku iriba arimo aravoma amazi, inyuma ye hari uwundi uri gupomba maze amazi akanyura muri robine ajya mu kajerekani gato.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye udupfukamunwa. Aba bantu kandi harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko.

Abantu bahuriye mu nyubako, barimo kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye biri mu baturage, abo bantu bahuriye muri iyi nyubako kandi harimo abasaza ndetse n'abakecuru.

Abajyanama b'ubuzima barimo kwifotoza bahagararanye n'abayobozi babo, biragaragara ko bamaze gukora inama barangiza bagafata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazajye bibuka ibikorwa bakoze.

Umwana w'umukobwa uri ku iriba arimo arakaraba intoki, kugira isuku ni byiza kuko bituma umuntu abasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga urimo kwita ku murwayi amutera urushinge, hirya ye hari abandi bantu bahicaye nabo baje kwiteza inshinge, arimo aramukingira indwara zirimo Kovide cumi n'icyenda.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki. Ari imbere y'abaturage bateraniye mu nyubako yubatse ikoresheje ibitambaro, ari byo bita itente.

Umusore uri ku iriba, afite indobo yaje kuvomeramo amazi, yambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'ikabutura y'umukara.

Abantu bahuriye ku iriba babaje kuvoma amazi, harimo abagore ndetse n'abakobwa bafite amajerekani menshi nk'uko biri kugaragara aha ngaha.

Imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, yambawe n'abakobwa bari ku ifoto, aba bantu kandi biragaragara ko ari abanyeshuri barangije kwiga.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, yambaye karuvati y'umukara ndetse arishimye, uyu mugabo ni umuyobozi ushinzwe abaturage kubaha serivisi.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu kigo kinini, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'umukara, biragaragara ko bishimye kandi banezerewe, baseka bafite akanyamuneza.

Abana bicaye kuri tapi barimo kuganira, bambaye imyenda ifite amabara y'ubururu ndetse n'iyindi ifite amabara y'umuhondo, bari mu cyumba kinini.

Abantu bahuriye ku iriba, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, aba bose bahurijwe hamwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo abaje kuvoma ndetse n'abaje gukina umupira.

Abana bari ku iriba barimo gukaraba amazi n'isabune kugira ngo birinde indwara zikomoka ku mwanda. Aba bana barishimye kandi baranezerewe.

Abantu bateraniye mu nyubako bambaye amakoti meza ndetse n'amashati, biragaragara ko aba bantu bahuriye mu nama baje kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije sosiyete.

Inzu yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, hagati yabo hari umugabo uri kubagezaho imbwirwaruhame yabateguriye, aba bantu bahurijwe hamwe na gahunda zigiye zitandukanye.

Abantu baturutse hirya no hino bahuriye ahantu ubona ko bishimye kandi banezerewe. Harimo abana bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'abagabo bahagaze imbere yabo.

Abakobwa batatu bateranye, bambaye udupfukamunwa, biragaragara ko bishimye kandi banezerewe bafite akanyamuneza.

Ababyeyi babiri bicaranye, umwe ateruye umwana undi ntawe ateruye, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Umuganga urimo kwita ku mukecuru, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umutuku, uyu mukecuru biragaragara ko afite ikibazo kandi akeneye ubufasha bwihuse.

Abana bambaye imipira y'umuhondo bari kureba muri kamera baseka, biragaragara ko bari ahantu mu kibuga habereye umupira, bakaba baje gufana amakipe.

Inyubako ijyanwamo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, aho bitabwaho bagasubira mu muryango nyarwanda bameze neza barakize, ndetse bafite ubuzima bwiza.

Abantu benshi barimo kwifotoza bambaye imipira y'umukara ndetse n'umweru, bari imbere y'imodoka nini ubona ko ariyo bajemo.

Abantu bambaye imyenda y'umukara n'umweru bahagaze imbere y'ameza, ku meza hejuru hariho ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ihuriro ry'abantu baturutse hirya no hino bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro meza, aba bantu bigaragara ko barangije kwiga kandi bakeneye akazi.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda y'umweru, umutuku n'umukara, barimo kwifotoza. Bafite igipapuro kinini bafite imbere yabo.

Ikirangantego k'ikigo gishinzwe gutanga ubufasha ku bantu bafashwe ku ngufu iyo umuntu yagize ihohoterwa yihutira kujya kwa muganga bakamufasha.

Umugabo wambaye ikoti ryiza ry'ubururu yambaye n'ingofero, ni umusore bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri kandi akayikorera ku gihe.

Umugore uri mu iduka ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, yambaye ijire ya MTN. Uyu mugore arimo guseka kandi bigaragara ko yishimye.

Umuntu wicaye mu mugenda bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe yambaye imyenda yacitse, afite imisatsi myinshi cyane kandi biragaragara ko arwaye.

Abantu bateraniye mu nyubako, bambaye imyenda y'imikara, barimo kwitegereza imbere bareba abayobozi babo bari kubagezaho imbwirwaruhame, aba bantu kandi barishimye.

Umubyeyi wicaye ari kumwe n'umwana atetse igikoma. Uyu mubyeyi arimo kwifotoza aseka, ahetse umwana muto.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye barimo barifotoza, aba bantu harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Abantu bicaye biganjemo abana ndetse n'umukecuru, barimo kwifotoza bareba muri kamera, bambaye imyenda y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye barimo kwifotoza, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'icyatsi, bose ni abagabo n'abagore.

Iyi ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi. Iyi nyubako isize amarangi y'umuhondo ndetse n'icyatsi. Ni ahantu heza, ubona ko hacyeye.

Abantu baturutse hirya no hino, bari kurwanya ihohoterwa kandi ari inshingano ya buri muntu wese, ihohoterwa rigomba kurwanywa na muntu wese.

Umugabo umeze nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda yacitse, uyu mugabo bigaragara ko afite ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Ahagaze mu kayira k'abanyamaguru.

Umugore n'umugabo bari gutanga imbwirwaruhame bayigeza ku baturage, bari mu nyubako nini yagenewe kuberamo inama, bambaye neza kandi nyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo RBC.

Umukecuru wambaye ibitenge by'icyatsi n'umuhondo, arimo guseka. Uyu mukecuru kandi afite imibiri yombi.

Abana benshi bahuriye ahantu hamwe, bambaye imyenda y'ubururu ndetse bari gupepera abantu bari kubafotora bishimye.

Umuntu ufite ijisho riri kuvamo amarira afite imibiri yombi, biragaragara ko ababaye kandi akeneye ubufasha.

Abagore babiri bahagararanye, umwe ateruye mwana, undi ntawe ateruye, umwe afite terefone undi ntayo afite, barishimye cyane.

Umukecuru uri hanze atetse ku mashyiga n'inkwi, atetse igikoma kuko yumva ashaka kukinywa kandi gifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ishati y'ubururu. Uyu mugabo kandi nta musatsi afite.

Abana barimo guseka bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, icyatsi, umutuku urabona ko ari abana bishimye kandi banezerewe.

Umusore bigaragara ko yagize ikibazo, yifashe mu gahanga. Umukobwa ari kugenda amuhumuriza ndetse amwihanganisha. Iyo umuntu agize ikibazo, akabura umuntu umwitaho; Biba bibi cyane.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, imbere yabo hari umugore uri kubagezaho imbwirwaruhame, aba bantu kandi bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko imwe.

Inyubako irimo abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umutuku, umuhondo, umukara ndetse n'ayandi atandukanye.

Umwana wambaye umupira w'umweru ari kurya biswi, ari mu cyumba kinini kirimo n'abandi bantu, aha hantu ni heza cyane kandi biragaragara ko ari mu ishuri.

Umugore uri kumwe n'umwana aramuteruye, hirya ye hicaye undi mwana, imbere yabo hateretse inkoko iriho ibishyimbo, barimo kubitoranya kugira ngo babiteke.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu barimo baraganira. Imbere hariyo abayobozi bari kubaha imbwirwaruhame kugira ngo batahane ubutumwa.

Umubyeyi wambaye ishati y'igitenge yifotoreje mu nyubako ikorerwamo ubucuruzi, uyu mukecuru kandi biragaragara ko akuze kandi ari mukuru.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye ahantu bari gukora ibikorwa bijyanye kno guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, ibyo bihingwa birimo ibiti.

Abantu bateraniye hamwe bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, bambaye amakoti meza ndetse n'amashati meza, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa ndetse bambaye baji mu ijosi.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, muri ibyo bikoresho harimo: Mudasobwa, ibitanda, intebe, ameza ndetse n'ibindi.

Umuganga urimo kwita ku musaza, arimo kumuvura uburwayi bw'amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza, iyo umuntu arwaye ni ngombwa kujya kwa muganga kuko kwirinda biruta kwivuza.

Umusore ufite akadodo gakoreshwa mugusukura amenyo, uyu musore afite amenyo yererana kandi afite ubwanwa bwinshi, uyu musore kandi yambaye umupira w'umweru.

Umusore uri gukoresha akadodo kugira ngo yivure amaremo cyangwa se akuremo imyanda mu menyo. Iyo ukoresheje akadodo bituma imyanda yose ishiramo.

Uyu ni umusore uri gusukura amenyo ye akoresheje akadodo. Iyo umuntu asukura amenyo ye bituma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umwana uri kumwe n'umubyeyi, barimo gusukura amenyo bakoresheje uburoso na korogate. Biba byiza iyo umuntu akoresheje ibi ngibi, ariko nyuma agakoresha n'akadodo.

Umwana w'umukobwa wasamye ari guhabwa umuti. Uyu mwana afite imisatsi myiza kandi afite amaherena ku gutwi. Biragaragara ko yishimye.

Kwa muganga hariyo abantu bahuriyeyo baje kwivuza, harimo umukobwa wambaye isengeri ndetse afite n'imisatsi myinshi y'umukara.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hariyo ibikoresho bigiye bitandukanye. Aha hantu hateye amarangi ndetse harasa neza, biragaragara ko ari kwa muganga.

Umuganga wambaye indorerwamo z'amaso, afite imisatsi myinshi, uyu muganga kandi afite ubwanwa bwinshi, ari kwitegereza ishusho imuri imbere.

Umugabo uri kwiborosa akoresheje uburoso na korogate, biba byiza iyo umuntu akoresheje n'akadodo kugira ngo abashe kwigirira isuku neza.

Umwana w'umukobwa uri kuvurwa amenyo, afite imisatsi myinshi, uyu mwana kandi arishimye bigaragara ku maso, afite amenyo meza y'umweru.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bujyanye n'amenyo, arishimye cyane. Uyu mwana kandi arimo guseka nkuko biri kugaragara. Umuganga uri kumwitaho yabyishimiye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ari kumwe n'umwana wambaye ishati y'icyatsi, inyuma ye hari umuzungu urimo kubitegereza ndetse abareba.

Umusore bigaragara ko afite imyaka hagati ya makumyabiri na mirongo itatu, uyu musore kandi arimo araseka afite amenyo meza cyane y'umweru.

Umusore uri gukoresha akadodo asukura amenyo, afite ubwanwa bwinshi. Uyu musore kandi arimo guseka yishimye kubera afite amenyo meza.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa, ni ahantu abantu bahurira, bagahabwa serivisi y'ubuvuzi maze bagataha bishimye banezerewe.

Kwa muganga habayo ibikoresho bitandukanye, bifashisha bavura abarwayi, ibi bikoresho biba bihenze kandi bikora mu buryo bukwiye.

Umukobwa uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo ndetse hari igishushanyo kigaragaza amenyo uko aba ameze ndetse n'uburyo yasimbuzwa mu gihe habayemo ikibazo.

Umukobwa uri gukoresha akadodo asukura amenyo ye arimo guseka, yambaye ingofero y'umweru ndetse amenyo ye asa umweru, ni umukobwa mwiza.

Umugabo ufite akadodo gakoreshwa mu gusukura amenyo, iyo umuntu akoresheje akadodo biba byiza kubera ko uburoso ntabwo busukura amenyo neza.

Umuntu urimo gupima umurwayi ndetse yambaye indorerwamo z'amaso. Hari undi mukobwa urimo kugenda amufasha kumwitaho.

Igishushanyo kigaragaza amenyo umuntu agira umubare wayo, ndetse n'uko angana. Umuntu agira amenyo menshi; hano bari kuyerekana yose, uko yakabaye.

Umugabo urimo kwereka umwana igishushanyo cy'amenyo ndetse amwereka umubare w'amenyo umuntu agira. Uyu mwana ari kwigishwa ku bijyanye n'amenyo.

Umuntu uri kuvurwa indwara zitandukanye aryamye ku gitanda cyabugenewe, arimo aritabwaho n'umuganga wabyize neza.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, arimo kumuvura kugira ngo abashe gukira. Uyu muganga kandi yambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso.

Umwana ufite imisatsi myinshi, ari kuvurwa n'umuganga wabizobereyemo. Uyu muganga afite impamyabumenyi yakuye muri kaminuza y'u Rwanda.

Iyo umuntu asukuye amenyo bituma agira ubuzima bwiza, ejobundi nagiye kugura korogate n'uburoso barambwira bati ujye ukoresha n'akadodo kugira ngo imyanda uyimaremo.

Umuganga uri kuvura umwana, afite ikibazo cy'amenyo. Uyu mwana akeneye ubuvuzi bwihuta, kugira ngo ikibazo cye gikemuke. Umuganga uri kumwitaho yambaye indorerwamo z'amaso.

Umukecuru uri kwitabwaho n'umuganga, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umweru, barishimye kandi baranezerewe.

Ahantu hateraniye abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umukara. ubururu n'umuhondo, aba bantu kandi barishimye kandi baranezerewe bityo bikabafasha kuba bagira ubuzima bwiza.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umutuku, bicaye imbere y'urubaho rukozwemo ameza.

Umusaza uri kugenda asindagizwa kugira ngo ageze hanze. Uyu umusaza biragaragara ko akuze, afite imyaka hejuru ya mirongo itanu.

Umubyeyi wambaye indorerwamo z'amaso yambaye imyenda y'umuhondo, inyuma ye hari umuganga uri kumwitegereza mu maso amurebana ubwuzu.

Umuganga uri kwita ku musaza, amuvura indwara zitandukanye. Yambaye ishati y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, n'indorerwamo z'amaso.

Umusaza uri kumwe n'umwana we barimo kuganira. Ni umusaza ubona ko ari mukuru kandi afite imisatsi irimo imvi.

Abakecuru bahuriye ahantu hamwe, barimo baraganira kugira ngo bakemure ibibazo bigiye bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umutuku n'umuhondo.

abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru. Aba bantu barishimye kandi baranezerewe, biragaragara ko ari abantu batojwe kandi bagahabwa umuco.

Umuganga uri kwita ku murwayi wambaye indorerwamo z'amaso, uyu muganga yambaye imyenda y'ubururu ndetse arishimye, bari mu nyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Abantu babiri barimo gukora siporo, harimo umwe ufashe mvirope mu ntoki, uyu muntu kandi biragaragara ko ari umuzungu.

Ababyeyi barimo kureba muri terefoni, babiri bambaye ingofero, ndetse uwo hagati nta ngofero yambaye. Bari ahantu mu nyubako nini, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umusaza, arimo amufasha ku ndwara yamusanganye. Arimo aramuvura ndetse amenyereza kumugendesha ngo arebe ko yakize koko.

Umusaza uri kumwe n'umuganga arimo kumwitaho, aramuvura indwara zagiye zinanirana kugira ngo agire ubuzima bwiza, iyo umuntu arwaye bituma abasha kujya kwa muganga akitabwaho.

Umugabo wambaye isaha ku kuboko, yambaye n'ishati irimo ibara rijya gusa nk'ivu. Uyu mugabo kandi ni umwirabura, bigaragara ko ari kureba aho igihe kigeze kugira ngo ajye muri gahunda zigiye zitandukanye.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru, bose bari gusoma urupapuro. Umusaza kandi yambaye indorerwamo z'amaso kandi afite imvi nyinshi.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso afite imvi nyinshi, uyu musaza arimo gusoma igitabo kugira ngo yunguke ubumenyi bugiye butandukanye.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga, arimo kumwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza, uyu mukecuru yasetse kandi afite imvi nyinshi, kwa muganga niho ibibazo byose by'uburwayi bikemurirwa.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira usa n'iroza, ni umukobwa ubona ko azi akamaro ka siporo, siporo kandi buriya ni nziza mu buzima.

Abantu bahuriye mu nyubako bambaye imyenda y'umukara, aba bantu kandi bari gukora inama biga kubibazo bigiye bitandukanye biri muri sosiyete.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga barimo guseka, bose bambaye imyenda y'ubururu, umuganga afite ubwanwa bwinshi n'umusatsi muke.

Umuganga uri kuvura umusaza, arimo kumuha imiti itandukanye kugira ngo ayinywe maze yoroherwe. Iyo umuntu ashaje ahura n'indwara zigiye zitandukanye.

Ababyeyi bari kumwe n'abana babo, biragaragara ko bishimye kandi banezerewe. Aba bose, harimo abasaza, abasore, ndetse n'abuzukuru.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa uri kugenda amusunika mu kagare, uyu musaza yasetse kandi yambaye indorerwamo z'amaso.

Abantu bahuriye ahantu barimo baraganira, harimo abagore ndetse n'abakobwa. Ni ahantu heza, ubona ko bataramiye bakishima.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe, barimo baraganira ku bibazo bigiye bitandukanye, barishimye biragaragara ko bumvikana kandi buzuzanya, ibi ngibi byahereye mu buto bwabo none barinze basaza.

Abakecuru bambaye imikenyero, bambaye n'imipira y'umutuku. Ni abakecuru ubona ko bakuze, bafite imyaka myinshi. Inyuma yabo hari urubyiruko ruri kubagenda inyuma.

Abasaza babiri, umwe yambaye indorerwamo z'amaso, undi ntayo yambaye. Barishimye ubona ko bahuriye mu bukwe, ndetse bari kwiga ku bikorwa bagiye gukorera muri ubu bukwe.

Abantu bahuriye mu nyubako bambaye amakoti meza ndetse n'amashati arimo umweru ndetse n'umukara. Aba bose bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bigiye bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu bahuriye mu nyubako nini bambaye amakoti, harimo abagabo ndetse n'abagore, ni inzu nini iberamo inama zigiye zitandukanye, zahuje abantu benshi cyane.

Inzu yahuriyemo abantu baturutse hirya no hino bambaye imipira irimo amabara y'umutuku ndetse n'iyindi irimo amabara y'umweru, bari mu nyubako nziza.

Kwa muganga ahatangirwa ubufasha ku ndwara zigiye zitandukanye, hari abaganga bari kwita ku murwayi kugira ngo abashe gukira maze asubire mu buzima busanzwe.

Abakobwa bahuriye hamwe, bambaye imipira y'imyeru, bamwe bambaye amapantaro y'umukara abandi bambaye amapantaro y'ubururu. Bose barishimye.

Umugore ufite imisatsi myinshi yambaye imyenda irimo amabara y'ubururu n'umuhondo, arishimye ndetse arimo guseka, uyu mugore arimo aritegereza hejuru areba ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'ijire y'umukara, inyuma ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu, barimo baritegereza bigaragara ko hari abantu bari kureba.

Abantu bahuriye mu nyubako nini bambaye imipira ifite amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi, ni ahantu hahuriye abantu benshi bigaragara ko bishimye.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abagore n'abagabo, bambaye amakoti meza bigaragara ko ahenze.

Abantu barimo kwifotoza bakuze. Aba bantu bigaragara ko bishimye kandi banezerewe, bambaye imyenda y'ubururu n'umutuku.

Abantu bahuriye mu nyubako barimo kwifotoza, bose bambaye imyenda y'ubururu, umweru, umukara n'icyatsi, higanjemo abagore, abagabo, abakobwa n'abasore.

Abantu bahagaze barimo kwifotoza, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, abo bantu kandi harimo abirabura ndetse n'abazungu.

Mu cyumba cyabereyemo inama harimo umugabo wambaye ikoti n'ishati y'umweru, uyu mugabo arimo aratanga imbwirwaruhame ku bantu bitabiriye inama, ni umugabo w'umwirabura.

Abantu bateranye barimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi, aba bantu harimo abaganga ndetse n'abarwayi bahuriye kwa muganga kugira ngo bivuze.

Umukobwa wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, afite agakoresho kifashishwa n'abaganga mu ijosi bapima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uko umutima utera.

Umugabo wicaye imbere y'abana arimo kubaganiriza, uyu mugabo yambaye ishati nziza y'umweru ndetse n'ipantaro, arimo aragenda ababwira ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo uri kumwe n'umugore barimo kwifotoza, bafite kandi ikirangantego ndetse n'icyapa mu ntoki kibabwira ngo "mwisuzumishe igituntu, kuko kiravurwa kigakira".

Abantu bateraniye mu nyubako bari kwiga ku bibazo bitandukanye abaturage bahura nabyo, harimo kandi abambaye amakoti ndetse n'amashati y'imyeru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako baje gukora inama, bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye biri muri sosiyete.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo abayobozi bahahuriye benshi bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Inyubako irimo amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, iruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye imyenda myiza, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inzu yateraniyemo abagabo ndetse n'abagore, bari mu nama barimo gukemura ibibazo bitandukanye biri mu baturage, aba bantu kandi bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko yo guteza imbere abaturage.

Umukobwa n'umusore bahagaze imbere y'abaturage babereka ibirangantego bigiye bitandukanye byifashishwa mu kubona amafaranga.

Abantu baturutse hirya no hino, barimo kugenda bamamaza bavuga ngo ''Rubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera SIDA, ipimishe uyu munsi.''

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ni ahantu abantu bahurira bagahabwa ubujyanama, ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye.

Abantu bahuriye mu nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Ahangaha ni aho bakirira ababagana. Iki kigo nderabuzima gifasha abantu benshi baje bahagana kugira ngo babashe gukira.

Ibitanda biriho matera nini zisasheho amashuka, ni uburiri buryamishwaho abarwayi mu gihe bakeneye ubufasha kandi bategereje muganga.

Kwa muganga ahavurirwa indwara zigiye zitandukanye, hariyo abaganga bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu n'icyatsi, bari kwita ku murwayi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye irimo amabara y'umweru, iyi nyubako kandi isakaje amabati y'umutuku, ni nziza kandi irakomeye.

Ahantu hahuriye abantu bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu, n'umukara. Bari kugenda bagana mu nyubako irimo ibikoresho byose.

Kwa muganga aho abantu bahurira baje kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye, hariyo abantu bahuriyeyo baje kwivuza. Aba bantu kandi bambaye imyenda y'umuhondo n'umutuku.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ni ahantu hateye amarangi y'umweru ndetse n'inzugi z'umuhondo, harimo ibyumba byinshi abantu bakoresha.

Umukecuru uri kwitabwaho n'umuganga bigaragara ko yari afite ikibazo cy'uburwayi, uyu mukecuru kandi yiteze igitambaro cy'umukara mu mutwe.

Umwana uri kwitabwaho na muganga arimo aramuvura, uyu mwana biragaragara ko arwaye kandi afite ikibazo gikomeye, akeneye kwitabwaho.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bite ku buzima bw'abarwayi, iyo umuntu arwaye ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho akire vuba.

Umugabo wicaye munsi y'igiti yambaye ishati y'ubururu, uyu mugabo kandi yambaye ipantaro y'umukara, arimo kureba muri kamera arishimye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, irimo amabara y'umuhondo ndetse n'intebe z'imisego, biragaragara ko ari inyubako ihuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye.

Icyapa kiyobora abagenzi kiberekeza mu merekezo agiye atandukanye, hirya yacyo hari umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umukara n'umweru, hirya yaho na none hari ibiti byinshi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, hari ibikoresho kwa muganga bakoresha, byiganje muri iyi nyubako, ni byinshi cyane kandi birahenze.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye kwa muganga, ibi bikoresho ni byo bifashisha bavura abarwayi indwara zitandukanye, muri ibyo bikoresho harimo ibitanda n'intebe.

Inyubako nini irimo ibiti birebire ndetse ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ni Ibitaro bya Nyanza, aho abantu bafashirizwa bityo bakagira ubuzima bwiza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, irimo amabara y'umuhondo n'umweru. Iruhande rwayo haparitse imodoka nyinshi zifashishwa batwara abantu.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, iyi inyubako irimo ibikoresho byifashishwa n'abantu baje gukora iyi myitozo kandi bavayo bameze neza.

Umukobwa uri kugenda wambaye imyenda y'ubururu, uyu mukobwa kandi afite imisatsi myinshi iboheye inyuma, ari mu nyubako ikorerwamo kandi igatangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inzu nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo umuganga uri kubitaho, harimo n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'abaganga bavura abarwayi.

Abantu bateraniye kwa muganga bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, haba iby'ubuvuzi ndetse n'izindi ndwara zigenda zifata abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi bakeneye ubufasha.

Kwa muganga hariyo ibikoresho, byifashishwa bavura abarwayi. Muri ibyo bikoresho harimo ibiryamishwaho abarwayi maze bakamenya ikibazo bafite.

Hano hari ibitanda abarwayi baryamaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Iyo umurwayi yitaweho, bituma akira vuba kandi akabona ubuvuzi bw'ibanze.

Ibitaro bya Kigina bivurirwamo indwara zigiye zitandukanye, ibi bitaro kandi niho abantu baza kwivuriza maze bakagira ubuzima bwiza buzira umuze, iyo uhivurije biragufasha.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, iyi nyubako kandi iteye amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iyi nyubako kandi iteye amarangi y'umukara ndetse n'umweru, harimo n'ibyumba byinshi bikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bapime abarwayi ndetse banabasuzume. Ni ahantu ubona hari inyubako nini.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, harimo ameza intebe ndetse n'utubati, harimo kandi indabo nziza n'imitako.

Inyubako nini, isize amarange y'ubururu, iruhande rwayo haparitse imodoka itwara abantu mu buryo butari ubwa rusange. Hirya hari ibiti byinshi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni Ibitaro bya Nyarugenge. Ibi Bitaro byakira abantu benshi, kandi bikabafasha bagakira vuba bagasubira mu rugo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo intebe ndetse n'ameza, iyi nyubako kandi iberamo ibindi bikorwa bitandukanye nk'inama ndetse hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nini irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwayo hateye indabo nyinshi. Hari kandi umugore uri kugendera mu kagare kubera ko afite ubumuga butandukanye.

Mu nyubako yigishirizwamo abana harimo umwarimu uri kwereka umwana igishushanyo kigize amenyo, arimo aramwereka umubare w'amenyo ikiremwamuntu kigira.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, ni ahantu harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kuvura abarwayi, aha ngaha kandi ni ho usanga abaganga bafasha abarwayi kuko babihuguriwe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni ahantu hateye amarangi y'umweru ndetse haparitse n'imodoka nyinshi zifasha abantu mu gukora ingendo za buri munsi.

Kwa muganga hariyo abantu batandukanye baje kwivuza, aha kandi ni ho abantu bafite ibibazo by'ubuzima bafashirizwa kugira ngo ubuzima bwabo bwitabweho kandi neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni ahantutu ubona ko ari hanini hisanzuye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi. Iyi nyubako kandi haberamo inama zitandukanye, harimo ibikoresho byabugenewe mu gukoreshwa.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, abantu baturuka hirya no hino bakaza kuhaherebwa ubufasha bijyanye n'indwara bafite.

Iki ni igitanda kirimo amabara y'icyatsi, iki gitanda kandi kirimo matera nziza ndetse hashasheho ishuka nziza cyane, iki gitanda gikoreshwa n'abarwayi bo kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo gikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aha hantu niho abantu bafite ibibazo bijyanye n'uburwayi bahurira bagahabwa ubufasha.

Igikoresho kwa muganga bifashisha barimo kuvura abarwayi, iki gikoresho kandi kiri mu ibara ry'umweru, ni igikoresho gihenze, kigura amafaranga menshi.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, hari abantu bari kuza ndetse n'abari kuvayo bakeneye iyi miti bifashishe.

Kwa muganga hahuriyeyo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo abaganga ndetse n'abarwayi, iyo nyubako ni nziza kandi irimo amabara y'umweru n'umukara.

Inyubako irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ibirahuri, ira ahantu ku musozi ubona ko ari ku mudugudu utuwe n'abantu benshi cyane b'abakire.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari abantu bahagaze imbere yayo. Aba bantu kandi, harimo abagabo babiri bambaye amakoti n'amapantaro meza cyane.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane ibya siporo. Aha niho abantu baturuka hirya no hino bagahurira kugira ngo bakore siporo.

Ibitanda biryamishwaho abarwayi kwa muganga, birimo amabara y'ubururu n'umweru, ni ibitanda byiza ubona ko bigura amafaranga menshi, kandi abarwayi bakabiryamaho bakumva barishimye.

Inyubako nini iberamo imikino igiye itandukanye, cyane cyane umupira w'amaguru ndetse n'imikino ijyanye n'imipira y'amaboko, ni ahantu heza cyane.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu ndetse iteye amarange y'umuhondo. Ni inyubako ubona ko iri ahantu heza kandi hari umudugudu. Iyo umuntu atuye ahantu heza bituma ubuzima bwe bugenda neza.

Inyubako yubakishijwe ibirahuri byinshi, ni inyubako ndende igeretse gatatu. Iyi ni yo yifashishwa n'abantu kugira ngo bayikoreremo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo amabara menshi, harimo ubururu, umuhondo ndetse hari abantu bari impande y'iyo nyubako.

Kwa muganga hariyo ibikoresho bifashisha bavura abarwayi, ibyo bikoresho birimo, icyuma baryamishaho umurwayi maze bakamupima, bakareba indwara afite.

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo n'ubururu ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni inyubako nziza kandi ubona ko ari nini.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere ni ikigo kivurirwamo abarwayi, iyo umuntu yivuje agira ubuzima bwiza kuko kwirinda biruta kwivuza.

Ni kwa muganga hari abaganga benshi, aba baganga bafasha umuntu gukira indwara zigiye zitandukanye, bityo bigatuma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, harimo ibitanda ndetse n'intebe zikoreshwa n'abarwayi baje kwivuza bityo bagahabwa serivisi nziza.

Ibitanda biryamishwaho abarwayi bambaye imyenda y'imyeru ndetse baryamye ku bitanda byiza cyane, ni hantu abantu baruhukira bakumva baguwe neza cyane.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, hari abantu bahuriyeyo baje kwivuza, imbere yayo hateye indabo nziza.

Iyi ni inyubako y'ibitaro bya Shyira, aho bivura abantu bagiye batandukanye, ibi bitaro kandi bivura indwara zananiranye ziri mu baturage.

Aha ni mu nyubako ibamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibi bikoresho ni ibyo kwa muganga bakoresha kugira ngo bite ku barwayi, iyo urwaye biba byiza iyo wivuje.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye. Ibi bikoresho ni byo abaganga bifashisha mu gihe bari kuvura indwara basanganye abarwayi.

Imbere y'inyubako nini y'Ibitaro bya Rwamagana, hahagaze abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abasore.

Inyubako irimo ababyeyi bahuriyemo bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye. Ni inyubako ubona ko ari nziza kandi ikeye, imbere hari umugabo uri kubaganiriza.

Ibi ni ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, ibi bikoresho kandi abaganga babikoresha bavura abarwayi.

Inyubako nini iteye amarangi y'umukara, iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, iyi nyubako kandi ifite amagorofa menshi ageretse, ni inzu mberabyombi.

Abagabo babiri bicaye barimo kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye, hari ikirango cyanditseho Irembo inyuma yabo, bigaragara ko batanga izi serivisi z'Irembo.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru, uri kugenda abasobanurira birambuye ndetse abereka.

Umugabo uri kuzinga supanete yifashishwa n'abaganga, iyi supanete iyo uyikoresheje ikurinda imibu kandi ukirinda kuba wagira ikibazo.

Inyubako nini irimo amabara y'ubururu, imbere yayo haparitse imodoka, hirya hari ibiti byinshi cyane, biragaragara ko iyi nyubako ihenze kandi yatwaye amafaranga menshi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ikingishije inzugi nyinshi. Aha hantu urabona ko harimo ibyumba bitandukanye, abantu baje muri iyi nyubako bararamo.

Inyubako nini irimo ibara ry'umukara ndetse hateye indabo nyinshi, hari abantu bahahuriye ubona ko bari kugenda bakora serivisi zitandukanye.

Inyubako icururizwamo imiti yifashishwa n'abarwayi, hano iyo uje baguha imiti ukeneye maze ugataha ukivura maze ugahita ukira.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi muribyo bikoresho harimo ibyo kwa muganga kwa muganga nibo babikoresha kugirango bavure abarwayi.

Inzu irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga bapima indwara z'abarwayi, ibikoresho byiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ni byiza cyane.

Abantu bari kwaka serivise zigiye zitandukanye bari mu nyubako, iyi nyubako irimo amarangi y'umweru ndetse n'ubururu, murabona ko bahahuriye ari benshi.

Iyi ni inyubako irimo amabara y'umuhondo n'umukara, iyi nyubako kandi ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yaba iby'ubuvuzi ndetse n'ubundi bufasha.

Inyubako irimo imiryango myinshi icururizwamo haparitse imodoka nziza. Iyi nyubako kandi ni ahantu heza ho gukorera kugira ngo ucuruze kandi wunguke.

Umuganga uri kwita ku murwayi, amutera urushinge. yUu muganga kandi ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi kuko abarwayi afashije bakira vuba.

Umuganga w'umugore uri kuri mudasobwa agenda areba raporo zitandukanye, zatanzwe n'abandi baganga bagenzi be, ni ukugira ngo arebe imiti bakeneye ndetse n'iyo bakoresheje.

Inyubako irimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari abantu bari guturuka hirya no hino baje muri iyi nyubako.

Kwa muganga ahakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, hari abaganga bari kwiga ku kibazo cy'imashini yagize ikibazo, bari basanzwe bifashisha mu buvuzi.

Inyubako iteyemo amarangi agiye atandukanye, yiganjemo umuhondo, umukara n'umweru, inyubako irimo ibikoresho byo mu nzu nk'intebe ndetse n'ameza meza cyane.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu iruhande rwayo hari abakecuru ndetse n'abana bahicaye, barimo kwifotoza kandi bishimye.

Inyubako irimo intebe z'umukara ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ni inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Ibitaro bya Kigina ni ibitaro bivurirwaho abarwayi, ibi bitaro kandi ni byiza byakira abantu neza bikabaha ubufasha bw'ibanze.

Inyubako irimo ibikoresho birimo amabara y'umweru ndetse n'umuhondo. Ibi bikoresho ni bimwe byifashishwa n'abaganga, barimo baravura abarwayi.

Inyubako irimo indorerwamo z'amaso, indorerwamo z'amaso zifasha ubuzima bwacu kumera neza ndetse n'abafite ibibazo by'amaso zikabafasha kureba.

Ni mu nyubako nini, iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibya siporo. Hakunda kuberamo inama, zigiye zitandukanye.

Inyubako nini iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, iruhande rwayo hari umukobwa uhahagaze urimo kwifotoza. Ni ahantu heza hari inyubako nziza cyane.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibya siporo, iyo uhageze bakwereka ibikoresho uzajya ukoresha, uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni ahantu hateye amarangi y'umuhondo, ndetse hari abantu benshi, bahuriyeyo kugira ngo bahabwe serivisi ndetse n'ubufasha.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga barimo kuvura indwara zitandukanye, hano hari igikoresho umuntu aryamaho maze kikamwereka indwara zose afite.

Inyubako nini y'ibitaro bivurirwamo abarwayi, isakaje amabati y'umutuku ndetse impande yayo hari indabo nziza z'umuhondo.

Icyumba kirimo intebe ndetse n'utubati, kirimo itara ririmo kwaka hejuru, biragaragara ko ari ahantu heza hakirirwa abantu.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, irimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, ni ahantu ubona ko hakeye kandi hasa neza.

Umusore uri kwikora mu bitugu avuye mu myitozo ngororamubiri, uyu musore kandi yambaye iserengeri y'umukara ndetse n'umuhondo kandi ari kureba hakurya ku musozi.

Umuntu uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri bituma agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, uyu muntu kandi yambaye n'inkweto. Nk'uko bigaragara, aba bantu barishimye kandi baranezerewe.

Umuntu urimo gusuka amazi afite agakoresho bakoresha babika amazi. Aya mazi ni meza kandi ni urubogobogo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza, uyu mukobwa kandi yambaye imyenda y'umukara, bityo bikamufasha gukora siporo yishimye.

Umubyeyi wavunitse mu nkokora bigaragara ko arimo kwivura akoresheje agatambaro, arimo aranywa imiti imufasha kugira agahenge.

Amazi meza y'urubogobogo ari gusukwa mu gikombe, aya mazi ni meza cyane kuko afasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Imiti yifashishwa harimo imbuto nazo bakoresha kugira ngo bite ku buzima bw'umuntu, iyo umuntu ariye imbuto agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Iki ni igikoresho cyifashishwa kwa muganga barimo gupima abarwayi, iki gikoresho kandi bagipimisha umurwayi bakimuteyemo urushinge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda myiza cyane, yicaye ku gakoresho yifashisha akora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ni ahantu ubona ko ari heza kandi hakorerwa siporo. Iyo umuntu azi akamaro ka siporo bituma azikora.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri yambaye umupira w'ubururu, uyu musore arimo kunywa amazi kandi arishimye cyane, azi akamaro ko gukora siporo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga barimo gupima abarwayi, iki gikoresho kirahenze kandi kigura amafaranga menshi, kirimo ibara ry'umweru ryinshi.

Kwa muganga niho bavurira abarwayi kugira ngo bamere neza. Iyo umuntu yivuje kare agira ubuzima bwiza kuko kwirinda biruta kwivuza.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara, arimo aranywa amazi yishimye kandi anezerewe, kubera ko azi akamaro ka siporo.

Umusore uri kunywa amazi yambaye agapira k'umukara, uyu musore kandi biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri kandi azi akamaro ko gukora siporo.

Ikarito irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo amavuta yo kwisiga, hakabamo imiti yo gukoresha mu gihe umuntu yarwaye.

Umuntu uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara. Ni umusore ubona ko, yacengewe n'imyitozo, kuko azi akamaro ka siporo. Uyu musore kandi biragaragara ko ari umwirabura.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ni ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abantu bakoresha kugira ngo bagire umubiri mwiza.

Umukobwa uvuye gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'umukara ari kunywa amazi, uyu mukobwa kandi azi akamaro ka siporo nk'uko bigaragara, arishimye kandi aranezerewe.

Umuntu uri kuvurwa indwara yavunitse akaguru ari kwitabwaho, aba bantu kandi biragaragara ko ari abazungu bari mu nyubako nini cyane.

Umusore n'umukobwa bavuye mu myitozo ngororamubiri, bari kunywa amazi. Iyo umuntu akoze siporo anywa amazi menshi, kuko aba yatakaje imbaraga nyinshi. Ni byiza rero gukora siporo, kuko birafasha.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ekuteri n'agasengeri k'umuhondo, uyu mukobwa yambaye isaha ku kuboko, ni umukobwa w'imibiri yombi urimo kwitegereza hakurya.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'imikara. Uyu mukobwa kandi imbere ye hari udukoresho bifashisha bari gukora imyitozo.

Abantu barimo kubaka inzu ndetse bayitera amarangi. Iyi nyubako nI ibitaro bikuru byitwa Faisal, ibi bitaro kandi bijyanwamo abantu bafite indwara zikaze.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, arimo aramuvura indwara zigiye zitandukanye. Uyu muganga kandi yambaye itaburiya y'umweru kandi nziza.

Umuntu uvuye mu myitozo ngororamubiri ari kunywa amazi, yambaye agapira karimo amabara y'ikigina cyangwa se karasa n'ivu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri irimo amabara atandukanye, ari gukora imyitozo ngororamubiri yunamye.

Abantu bari gukora siporo harimo abana, abakuru ndetse n'urubyiruko muri rusange, ni abantu ubona ko ari benshi cyane kandi bahuriye muri sitade.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ari kunywa amazi, uyu musore azi akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umutuku, umukara n'inkweto z'umweru, arimo arakora siporo kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara arimo kwinanura, arabyutse none agiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yumve aguwe neza yishimye.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara. Uyu musore kandi ni umusore ubona ko ari umwirabura ufite imibiri yombi, arishimye azi akamaro ka siporo.

Umusaza wambaye umupira w'umukara ndetse n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ari kwita kuri uyu musaza kugira ngo arebe niba koko yakize kandi neza.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi, ari gukora siporo yazamuye akaguru inyuma, biragaragara ko azi akamaro ka siporo, ndetse n'uburyo siporo irinda indwara.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari umuganga uri kwita ku murwayi. Arimo aramubaza ibibazo na we amusubiza, yarangiza akamuhagarika mu gakoresho basuzumiramo abarwayi.

Abantu baturutse hirya no hino bahuriye kwa muganga, harimo umubyeyi waje gusuzumisha umwana we, yaje kumusuzumisha indwara zigiye zitandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'icyatsi, uyu musore kandi arimo aranywa amazi bigaragara ko yari afite icyaka kinshi.

Turi kubona umusore wavunitse ukikiwe n'abandi basore babiri, yambaye umupira w'umuhondo, bari barimo gukora imyitozo ngororamubiri maze aravunika none baramuteruye.

Ibikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iyo umuntu afite ibikoresho bituma abasha gukora gahunda zigiye zitandukanye, kubera ko abyifashisha kugira ngo azinoze neza.

Imyitozo ngororamubiri igira akamaro kenshi, ifasha abantu kugira ubuzima bwiza kuko bumva baguwe neza, iyo ukoze siporo bituma ugira uruhu rwiza kandi rusa neza.

Umuntu wavunitse akaboko. Yafatishije agatambaro k'ubururu mu nkokora kugirango yumve ameze neza kandi agabanye uburibwe.

Imbuto zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, iyo umuntu ariye imbuto bituma agira ubuzima bwiza kandi bikamufasha no kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'imikara, yambaye kandi inkweto nziza zirimo amabara y'umutuku, uyu muntu ni umukobwa wishimye.

Inyubako yateraniyemo abaganga n'abarwayi, abarwayi bari guhabwa ubufasha, hari umwana bari kureba mu kanwa ngo barebe ikibazo afite.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umweru, cyifashishwa bavura abarwayi, iki gikoresho nicyo bapimiramo umuntu ufite ikibazo maze akabasha kwitabwaho.

Umuntu utagaragara neza ari kunywa amazi. Biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, igiye itandukanye yaba iy'amaboko, kwiruka ndetse n'iyindi.

Umusore wifashe mu ivi, yambaye isaha ku kuboko. Yambaye kandi imyenda y'umukara, ndetse afite umubiri, usa nk'uw'abirabura.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri yavunitse ukuguru, uyu musore yambaye isengeri y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko.

Akagare kifashishwa n'abantu bafite ubumuga kugira ngo babashe kugenda, babicazamo maze hakagira umuntu inyuma ugenda abasunika.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda irimo amabara y'umukara, ateruye ibyuma mu maboko ye, kugira ngo agire umubiri ukomeye.

Umuganga urimo kwita ku musore uvuye mu myitozo ngororamubiri, uyu musore kandi biragaragara ko azi akamaro ka siporo kubera ko umubiri we urabigaragaza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo imikasi, ibinini ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakenera buri munsi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yavunitse mu nkokora uyu musore afite ubwoya bwinshi ku maboko kandi abugirira isuku kugira ngo butazamo umwanda yambaye umupira w'umweru.

Abaganga barimo kwita ku musore ufite ikibazo cy'uburwayi, uyu musore ararembye none abaganga baje ari benshi kugira ngo bamufashe abashe gukira.

Iyi ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse harimo n'ibikoresho byinshi, iyi nyubako kandi yifashishwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bivurizemo bahabwe n'ubufasha bw'ibanze.

Abanu bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda yabugenewe mu gukoreshwa siporo, ni imyenda myiza ubona ko yifashishwa n'abanu bakora siporo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo imiti igiye itandukanye abantu bakoresha, kugira ngo indwara zabo zibashe gukira vuba.

Hano hari imbuto zitandukanye umuntu ashobora kuba yakwifashisha mu gihe ashaka kugira ubuzima bwiza. Iyo umuntu ariye imbuto, bimuha umurongo kandi akagira ubuzima bwiza.

Umuntu uvuye mu myitozo ngororamubiri, ari guhabwa ubufasha, yavunitse akaguru none yahuye na muganga kugira ngo amufashe, ni umusore ubona ko yambaye imyenda y'imikara n'inkweto zirimo amabara y'icyatsi.

Umusore uri kunywa amazi yambaye umupira w'umweru, yambaye ekuteri mu matwi ndetse avuye mu myitozo ngororamubiri, uyu musore ni munini kandi arakuze.

Umuganga uri kuvura umukinnyi wavunitse akaboko, uyu mukinnyi kandi bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune, bityo akeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu ari gufashwa na muganga kugira ngo amusuzume niba yakize, ari kwa muganga aho yaje kuvurizwa.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, mu buzima bwabo bwa buri munsi, iyo ukoresheje uyu muti neza, bituma ubasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyo ukoresheje uyu muti neza bituma wirinda indwara zitandukanye kandi bikagufasha no kugira ubuzima bwiza.

Igikombe kirimo imiti gakondo, iyo umuntu arwaye akoresha imiti gakondo kugira ngo abashe gukira vuba, uyu muti rero urasa umuhondo kandi ni mwiza urakiza.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa bari kuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu muti kandi ufasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni umuti abantu bakoresha kugira birinde indwara zitandukanye, iyo umuntu akoresheje umuti neza bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, iyi miti kandi bayifashisha bavura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti ikorwa mu gikakarubamba ni imiti myinshi kandi iri mu ducupa twiza cyane, iyi miti rero ifasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi bagakira vuba.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu batandukanye, barimo kwivura indwara zananiranye, iyo ukoresheje iyi miti neza, bituma ubasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi iyi miti ikoreshwa no kwa muganga.

Umuti gakondo ni umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, hari abawukoresha kugira ngo bakire vuba hari n'abawukoresha kugira ngo ubafashe no mu bundi buzima buzaza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, mu gihe bari kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti iri mu ducupa tw'umuhondo ndetse n'uducupa tw'umweru.

Umuntu uri gusoroma utubabi tw'indabo wagira ngo yadukunze cyane, utu tubabi ni twiza kandi turashashagirana ku buryo wadutaka munzu.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo bivure indwara zigiye zitandukanye, iyo umuntu akoresheje uyu muti bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icupa ririmo umuti witwa umuravu, uyu muti ukoreshwa mu gihe bari kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira umubiri w'umuntu, uyu muti kandi ni mwiza.

Ibicuruzwa birimo inanasi ndetse n'iyindi miti igiye itandukanye, iyi miti kandi yifashishwa bakora ubuvuzi bwa gakondo.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa bari kuvura indwara zitandukanye. Uyu muti kandi uri mu ducupa tubiri tw'umuhondo, Inyuma hashushanyijeho igikakarubamba.

Umuti w'igikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu muti kandi iyo uwukoresheje neza uragufasha, bigatuma ugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuravumba ni umuti wifashishwa kugira ngo bavure indwara zitandukanye. Umuravumba ni umuti gakondo ukoreshwa mu ngeri nyinshi z'ubuvuzi.

Imiti gakondo yifashishwa bavura indwara zananiranye. Iyi miti kandi iyo uyikoresheje neza bituma ugira ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa n'abantu bavura indwara zigiye zitandukanye, iyo ukoresheje igikakarubamba bituma ukira vuba.

Agacupa k'umweru karimo imiti gakondo, uyu muti uri muri aka gacupa wifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye kugira ngo umuntu abashe gukira vuba.

Imiti y'igikakarubamba yifashishwa n'abantu batandukanye bari muri siporo, iyi miti kandi irafasha bityo abantu bagakwiye kuyikoresha bivura indwara zitandukanye, zifata ubuzima bwabo.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu gihe bari kuvura indwara gakondo, uyu muti kandi uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye zifata abantu.

Igiti cy'umuravumba giteye mu murima, umuravumba ufasha abantu gukira indwara zigiye zitandukanye zananiranye. Uyu muti kandi niwo abantu bakunze gukoresha igihe barwaye.

Igiti kinini gitoshye ubona ko kitigeze cyicwa n'izuba. Ni igiti ubona ko gifite amashami menshi kandi meza.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa kugira ngo abantu bakire indwara zigiye zitandukanye , uyu muti kandi urafasha kandi ukiza abantu benshi iy' umuntu arwaye biba byiza iyo akoresheje igikakarubamba.

Ibimera bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, imiti gakondo iyo uyikoresheje neza ubasha gukira vuba.

Ibiti birebire bifite amashami menshi, byifashishwa mu gukoramo umuti gakondo. Ibi byatsi kandi biterwa ahantu ku musozi kugira ngo bizasarurwe bikorwemo uyu muti.

Uyu ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu muti kandi ufasha abantu bagize ibikomere iyo bawukoresheje bakira vuba kandi byihuse.

Agacupa karimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ariwo w'igikakarubamba, uyu muti uvura indwara zananiranye zose zikabasha gukira kandi byihuse.

Uducupa turimo inzoga; iyo umuntu anyoye inzoga nyinshi, bituma zimugiraho ingaruka. Ni byiza rero kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze.

Inyubako irimo umumama uri gucuruza inzoga, ziri mu macupa agiye atandukanye kandi manini, aha ni ahantu hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi. Iyo abantu bakoresheje imiti gakondo, bituma babasha gukira kandi vuba.

Urutonde rw'imiti yifashishwa bari kuvura indwara zananiranye, harimo igikakarubamba ndetse n'imiti ifunze mu ducupa abantu bakoresha.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bakire indwara zitandukanye, iyo umuntu akoresheje uyu muti, bituma agira ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni umuti gakondo wifashishwa n'abantu benshi. Uyu muti uravura kandi urizewe. Niyo mpamvu uyu muti wifashishwa n'abantu bagiye batandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu birinde indwara zigiye zitandukanye, gukoresha umuti gakondo ni byiza kuko birafasha.

Uducupa tubiri turiho igikakarubamba, igikakarubamba ni umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo bavure indwara zitandukanye zananiranye bityo bagire ubuzima bwiza.

Iyi ni imiti gakondo iri mu ducupa tugiye dutandukanye hari uducupa dusa umukara hakaba n'utundi dusa umweru, muri utu ducupa haba harimo imiti y'amoko agiye atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kuva mu bice bitandukanye, bari kugenda basuzuma ibihingwa, bafite imashini zifashishwa mu guhinga.

Imiti iri mu ducupa dutatu tw'umweru, ni imiti irimo ikozwe mu muravumba ndetse no mu gikakarubamba. Uyu muti iyo uwukoresheje neza uragufasha.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ivure indwara zigiye zitandukanye, uyu muti kandi wifashishwa n'ingeri nyinshi z'abantu kuko bazi akamaro kawo n'uburyo buvura.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu batandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, imiti gakondo kandi irafasha, iyo ukoresheje iyi miti neza ituma ubasha gukira.

Umuti uri mu gacupa k'umuhondo, uyu muti wifashishwa barimo kuvura indwara zananiranye kandi bikabafasha no gusuzuma neza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi bari kuvura indwara zananiranye, iyo ukoresheje umuti gakondo, ubasha gukira indwara zananiranye.

Aka gacupa kavamo imiti igiye itandukanye yifashishwa n'abantu kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, ni imiti y'igikakarubamba ndetse n'iyindi ifasha abantu gukira vuba.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ni icupa ry'umukara ribamo umuti wa gakondo abantu bifashisha kugira ngo bakire indwara zitandukanye.

Umuti w'igikakarubamba wifashishwa n'ingeri z'abantu zitandukanye, uyu muti uravura kandi ugakiza indwara vuba kuko abantu bawukoresha baguha ubuhamya bw'ukuntu wabakijije.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hano ndi kubonaho imiti abantu bakoresha barimo kuvura indwara zagiye zinanirana ndetse bakirinda.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho ibavura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti kandi iri mu ducupa tw'umweru, icyatsi ndetse n'umukara.

Uyu ni umuti uvamo imiti igiye itandukanye ivura abantu mu buryo butandukanye, iyi miti ivura indwara nyinshi harimo gupfura, ibicurane ndetse n'izindi.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bite ku mibereho yabo, iyo umuntu arwaye biba byiza iyo akoresheje umuti gakondo.

Hano hariho imiti yifashishwa mu buzima bw'abantu. Iyo ni imiti gakondo, imiti gakondo kandi irafasha kuko umuntu urwaye iyo ayikoresheje akira vuba.

Umuravumba ni umuti mwiza abantu bifashisha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, uyu muti uravura kandi urizewe kuko ukiza abantu benshi.